Inzu ishushanyijeho umugabo wambaye ikaruvati n'ishati y'umweru yatebeje ndetse n'ipantaro y'umukara kandi ishushanyijeho injangwe handitseho amagambo cat, irakinguye isize irange ry'umuhondo.

Mu nyubako irimo ababyeyi benshi, harimo umwana ufite igitabo mu ntoki, uri gusomera ababyeyi ibyanditsemo, bose kandi babona ko bamukurikiye, yambaye ishati irimo uturongo twinshi tw'umukara.

Agasimba gatoya gakunda kwibera mu byatsi, niko bita igihore, kaba mu byatsi, iyo umuntu akandagiye karasimbuka, gahagaze hano ku kibabi ndetse gifite aho kijyana naho amaraso cyangwa intungamubiri.

Abanyeshuri batoya bambaye impuzankano z'ubururu hejuru hasi umukara, bari kwitabwaho n'ababyeyi b'abagaburira, ubona ko ari ibintu byiza bigaragaza ko abana bakunzwe kandi bitaweho.

Udu parasitike tw'amabara atandukanye turi mu nyubako yubatswe natwo ndetse hakaba n'utundi turambitse hasi, hari agaparato kariho amoko y'ubundi parasitike butandukanye n'ubundi bufunze mu ikarito yabwo.

Abantu bari ahantu hari ibintu byubatse bimeze nk'inzu, ndetse bigaragara ko ari ibikinisho hari kuzamukamo umugore uri kumwe n'akana ndetse ubona ko bari gukina.

Inyubako igaragara ko hari aho bacururiza amata y'ikivuguto, hari icyapa cyanditseho ko haba amata meza ndetse bagashyiraho na nimero baba bahamagaraho mu gihe ubakeneye.

Ububiko bwi'ibitabo byinshi cyane bitandukanye, ibitabo bimwe bimwe bisa bigiye bipanze ukwabyo ndetse ntibigaragaza ibintu byanditseho inyuma ku bifuniko.

Abana babiri b'abanyeshuri umukobwa n'umuhungu barambukiranya umuhanda bagana ku isomero, hirya ku muhanda inyuma yabo hari gutambuka imodoka.

Igipupe gishushanyije muburyo busekeje cyane nk'umwana w'uruhinja, gifite umutwe umeze nka zeru n'amaso y'umukara manini cyane n'amatwi ari hejuru ku mutwe.

Inyubako y'ubucuruzi ndetse harimo n'abantu, basohoye kamwe kaba karimo ibicuruzwa by'ibanze, kugira ngo uhageze wese, amenye icyahakorerwa kugira ngo agurire hafi.

Umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka icumi arimo kuzamuka mu marembo, amarembo akikijwe n'indabyo hirya no hino ari guturuka ahantu ku kigo cy'amashuri kuko inyuma ye hari utundi twana twambaye impuzankano turi kumwe.

Ibitabo bitonze ku murongo hejuru harambitse icunga ndetse n'ikereyo, ku ruhande hari igikombe kirambitsemo amakereyo menshi cyane asongoye ndetse hari n'umukasi ku ruhande.

Abana batoya b'abanyeshuri bigaragara ko bari mu kiruhuko, ni abana bigaragara ko biga mu ishuri ry'inshuke, aho bari kwikina bamwe bagiye bicaye hamwe, abandi buriye igiti, bari gukina.

Ibyuma byifashishwa mu ishuri cyane cyane mu isomo ry'imibare, harimo igicaruziga, harimo igica imirongo ndetse n'igikoreshwa mu kumenya amadogeresiyusi, hakabamo n'akariho inyuguti.

Munsi y'igiti gifite amashami, hicayemo abagabo n'abagore ndetse imbere yabo hahagaze umugore, uri kubigisha ibintu bitandukanye, bafite amasuka imbere ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu guhinga.

Icyapa kinini cyane kiri mu marembo y'ikigo cy'amashuri kiriho agaseke hejuru, cyanditseho amagambo agaragaza indangagaciro z'Akarere ka Nyagatare.

Inyubako z'amashuri zubatse ku murongo. Hanze ku mbuga hari ibendera ry Igihugu ndetse hari n'ubusitani ndetse n'ikibuga hagati y'ayo mashuri.

Hejuru ku musozi hari ahantu hasije neza ndetse harimo imirongo y'umweru itambitse, n'indi ibiri ihagaze ku mpande. Ni ikibuga umuntu ashobora gukiniramo umupira uwariwe wese akumva yishimye.

Inyubako igeretse kabiri, yubatse neza isize amarangi y'umweru ndetse ku gisenge cyayo amabati asigishije irangi ry'ubururu. Hasi hari indi korotire, isize irangi ry'icyatsi.

Indyankwi ziri mu moko atatu; harimo ishoka ishobora kwasa igiti gitoya kiringaniye ndetse hakaba n'indi nini ishobora kwasa igiti kinini cyane ndetse hari n'akandi gatoya kasa imyase.

Abanyeshuri b'abana bakiri mu kigero cy'imyaka itanu, abakobwa n'abahungu batonze umurongo hamwe imbere yabo hahagaze abarimukazi babiri bambaye ibitaburiya by'umweru, umwe yabinditse imisatsi, undi afite umusatsi usanzwe.

Ikigo cy'amashuri kiriho abanyeshuri benshi bicaye mu kibuga, muturabyo hari ibiti byinshi bikikije amashuri ndetse n'indabyo hakaba n'abarimu bari kwita ku banyeshuri, bahawe kwigisha.

Inyubako nini cyane iriho imiryango myinshi, irimo isize irangi ry'icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'irindi ry'umweru, hejuru isakara ryayo ntirigaragara neza, bitewe n'uko yubatswe mu buryo bwa kera.

Ikigo cy'amashuri gifite inyubako ebyiri z'amagorofa. Imbere mu marembo hari ubusitani, burimo n'icyapa kigaragaza iryo shuri.

Umugore n'umugabo, baricaye munsi y'igiti ndetse hari umwana ufite agakinisho mu ntoki, ari kuza abyinira ababyeyi akoma amashyi ndetse hari n'abandi bikoreye, bari kunyura iruhande rw'inyubako z'abandi bantu.

Icyapa kinini cyane gishushanyijeho ikibuga hakurya hari imisozi ituweho n'abantu ku midugudu, kirambitse ahantu imbere y'inyubako, haruguru gato hari abantu bari kugenda ku rubaraza rw'iyo nyubako.

Abana babiri bahagaze ku muryango ukinze, umutoya n'umukuru. Umukuru ni umukobwa yambaye impuzankano y'ishuri ndetse umutoya we yambaye imyenda isanzwe akorana. Biragaragara ko umukuru avuye ku ishuri asanga iwabo badahari.

Mu kibuga harimo abana batoya ndetse ubona bambaye neza, bambaye amakanzu abakobwa naho abahungu bambaye amakabutura n'amashati y'imyeru na karuvati zifite ibara nk'irisa n'iry'amajipo y'abakobwa asa.

Abanyeshuri bane bambaye impuzankano z'ishuri bamwe bafite isaha ku kuboko, abahungu babiri n'abakobwa babiri bambaye impuzankano zitandukanye bari mu kigo aho hagaragara urukuta ndetse n'indabyo.

Abantu benshi basutamye, bamwe bahagaze imbere y'inyubako nini cyane igeretse kabiri, ifite amarangi atandukanye ndetse ikagira n'icyapa hejuru kitarimo kugaragara neza ibyanditseho, hanyuma ikagira n'ibati rifite umubyimba uringaniye.

Abana benshi bambaye impuzankano bibumbiye ahantu hamwe, harimo abambaye umukara n'umuhondo n'abambaye umukara n'icyatsi kibisi. Ni abakobwa n'abahungu barangamiye hamwe bigaragara ko hari uri kubaha ikiganiro.

Abana b'abanyeshuri bambaye amashati y'umweru. Bibumbiye mu matsinda. Itsinda rimwe riri kumwe na mwarimu ari kurikosora aryerekera.

Mu kibuga harimo amahema menshi bubatse, ndetse bahateye intebe z'umweru, hicayemo abantu bambaye imipira y'imikara benshi, ndetse hari n'abambaye iy'icyatsi bicaye imbere.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe bambaye imyenda imipira iciye amaboko iririmo ibara ry'icyatsi kibisi yose isa. Ni urubyiruko, imbere y'aho bicaye abantu batandukanye barimo abo mu nzego z'umutekano abasirikare ndetse n'abapolisi.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano isa ni abakobwa bigaragara ko ari ikigo cy'abakobwa gusa ndetse harimo n'abambaye amakaruvati ndetse abandi bambaye n'imipira.

Abantu bambaye impuzankano zirimo ubururu ndetse n'amapantaro y'imikara. Bari ahantu hamwe munsi y'ibiti ndetse hari inyubako, bigaragara ko hari ikigo runaka hakaba n'indabyo bigaragara ko habaye ibirori.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, abato bambaye karuvati z'ubururu ipantaro y'umukara, n'ishati y'ubururu batebeje uri kubona ko bameze neza basobanutse.

Abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu, bahagaze imbere y'icyapa, bambaye impuzankano isa, bigaragara ko biga muri icyo kigo kimwe, bahagaze mu marembo imbere y'icyapa, cyanditseho amagambo atandukanye.

Ikigo cy'amashuri cyubatse ahantu hitaruye. Mu marembo yacyo hari umuntu uri kujyayo kuri icyo kigo. Hahinze ubusitani bw'indabyo nziza zitandukanye. Muri ubwo busitani harimo idarapo cyangwa se ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abanyeshuri benshi batonze umurongo hamwe, bambaye bose impuzankano. Gusa harimo abambaye amashati y'umweru, abandi na bo bambaye imipira, bambaye n'inkweto zifunze bose, barangamiye umuyobozi w'ishuri asa nk'uri kubaha amabwiriza.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi bicaye ahantu mu ntebe hamwe, bisa nk'aho bari guhabwa inyigisho ariko barambiwe, harimo abifashe ku matama bigaragara ko nubwo bakurikiye ariko barambiwe.

Abantu benshi bari kugenda b'urubyiruko, inkumi n'abasore harimo abatwaye mudasobwa mu ntoki ndetse n'ibitabo bari kunyura imbere y'inyubako iriho icyapa kigaragaza ko ari inyubako ya kaminuza y'u Rwanda.

Icyumba kigari kirimo abantu benshi bicaye, ubona ko bari mu nama ndetse gifite n'amarangi atandukanye, hari n'icyuma kiba kiriho insinga nyinshi kiri inyuma, bari mu nama ubona ko bose bateze amatwi.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bambaye ibikanzu bisa n'ingofero, mbere y'aho hicaye abambaye amashati y'umweru, biragaragara ko ari abanyeshuri ba kaminuza bashoje ikiciro runaka, baje guhabwa impamyabumenyi.

Ingarane imenywamo imyanda hagati y'indabyo, bashakaga kuvuga ko hafi yaho hari ikibuga ndetse icyo kibuga ari gitoya inyubako zaho zisize irangi ry'umweru ndetse hari n'ibiti byinshi bitandukanye.

Ubusitani bwiza cyane bubereye ijisho, buhinzemo indabyo nyinshi zitandukanye. Inyuma yabwo hari inzu y'igorofa igeretse kabiri, isakaje amabati ari mu ibara ry'umutuku, hanze gato hari ibiti bigiye bihahinze, hari abantu binjira bagana kuri iyo nyubako.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, bari ahantu harimo ameza ndetse n'intebe zigezweho, bafite telefoni bareberamo amasomo ndetse n'amakayi bari kwandikamo.

Abantu benshi basohoka mu muhanda, bagana ku marembo, harimo abasore ndetse n'abakobwa babiri, bose baratera intambwe bihuta, ubona ko bavuye ahantu hamwe ndetse bari kwerekeza mu cyerekezo kimwe.

Inyubako nini ifite ibirahure by'ibara ry'icyatsi ndetse ubona ko bibonerana ifite amabati asa naho aho wagira ngo ni amategura hariho icyapa cyerekana ibihakorerwa.

Kubungabunga amateka ni ukuyasigasira kugira ngo atazimira, hari igikombe cya kera gishobora kuba kimaze imyaka myinshi ndetse hakaba n'utuntu mu ijosi tumaze igihe kinini.

Abantu benshi bicaye mu cyumba kimwe bicaye mu ntebe, umwe w'imbere afite indangururamajwi mu ntoki bigaragara ko ari we bari bahaye ijambo.

Inyubako irimo abantu benshi batandukanye, bambaye imyenda itandukanye, bicaye mu cyumba cy'inama ndetse ubona ko bakurikiye bafite amakaye n'amakaramu biteguye kwandika.

Abantu bari mu cyumba, abenshi baricaye, ndetse imbere yabo hari mudasobwa zitandukanye. Hari umukobwa uhagaze imbere yabo ari kugenda abasuhuza, kandi we nta kintu afite, ari kugenda atambuka hagati yabo.

Mu nyubako hari kugaragaramo umuntu uri guhengereza ndetse hari utwatwuma tuba ku ruhande, tumwe dutuma abantu batagwa ,tukunda gukoreshwa, cyane cyane ku nyubako zigeretse, hari urukuta ruriho'imitako myiza itandukanye.